Aha bari kugaragaza ibyakozwe kuri konti y'umuntu, uburyo yagiye yakira amafaranga ndetse n'uburyo yagiye asohora amafaranga kuri konti ye.

Iyi ni imodoka igurishwa ikorwa n'uruganda rwa Toyota, ikaba yitwa Toyota Levin Hybrid, ya bibiri na cumi n'umunani, ikaba igurishwa ku giciro cya miliyoni cumi n'eshatu.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata, aho abantu bacururiza amata ku bayashaka kuyagura bakaba bayagura. Ni ikusanyirizo ry'Inyange, aho bakusanyiriza amata bakayagurisha abaturage bayakeneye.

Aha ni ahantu hacururizwa serivise z'itumanaho za MTN, aba ni abakozi ba sosiyete ya MTN, batanga cyangwa se bacuruza izo serivisi ku bafatabuguzi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura umucuruzi ukoresheje itumanaho rya MTN, ufata telefone yawe ugakanda ijana na mirongo irindwi urwego, ugakurikiza amabwiriza,, hano bari kwerekana ko amazina y'umucuruzi ari Rosy All Season Trade, hanyuma nimero ye yo kwishyuraho ya yakode yo kwishyuriraho akaba ari mirongo ikenda na karindwi, umunani umunani, mirongo itatu na gatanu.

Ubu ni ubutaka bugurishwa mu Mujyi wa Kigali ahitwa i Musave, muri Bumbogo. Ubu butaka bukaba bugurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inyubako ikodeshwa, irimo ibyumba bibiri byo kuryamamo, irimo ubwogerobiri, ku mafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Uyu ni umucuruzi, uri guhereza ibicuruzwa umukiriya we, umukiriya yari aje guhaha, biragaragara ko umucuruzi ari kumuhereza ibyo yahashye.